Akazu gato kubatse mu byuma, kariho amarange y'umuhondo n'icyapa k'ikigo k'itumanaho kitwa MTN. Harimo umukozi wabo utanga zimwe muri serivise zitandukanye, harimo nko gutanga amayinite, kubitsa, kubikura ndetse n'ibindi, imbere yako kandi hari n'icyapa cyanditseho Spark mirongo itatu C.

Abakobwa babiri bambaye impuzankano z'ikigo cy'itumanaho cya Airtel bafite telefone mu ntoki, telefoni zitwa Airtel imajine, aho zigura ibihumbi makumyabiri kandi zikaba zicuruzwa ahantu hose.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imineke, voka, amandazi ndetse n'ibindi, harimo kandi umucuruzi witeguye kwakira abakiriya bamugana, ibingibi bikorwa kugira ngo umucuruzi azane ibicuruzwa abyegereze abaturage, nabo babimugurire badakoze urugendo runini.

Akazu k'umuhondo kandi gatoya kubabatse mu byuma. Kanditseho amagambo y'ikigo k'itumanaho kitwa MTN. Aho gitanga ibicuruzwa birimo sumukadi, telefone, amanite, kubitsa ndetse no kubikura. Haba harimo umuntu ushinzwe gukora ako kazi, mu muryango kandi hari umukiriya utegereje kwakirwa.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya MTN, afite igipapuro kiriho ibiciro bishya by'umukiriya, aho bagaragaza amafaranga ugomba gukatwa mu gihe ubikuje cyangwa ujya ahari amafaranga wohereje.

Akazu gatoya kariho icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo y'ikigo cy'itumanaho cya MTN, harimo kandi umukozi ushinzwe gutanga bimwe mu bicuruzwa bya MTN, harimo amasimukadi, amayinite, kubitsa, kubikura ndetse n'ibindi.

Umuntu uri mu kazu karimo ibyapa bibiri harimo ikigo cy'itumanaho cya Airtel ndetse n'ikindi cya MTN. Umukozi ari mo imbere afite amafaranga aho hari umukiriya umuri iruhande yaje kubikuza kandi uyu mukozi akaba agiye kumuha amafaranga yabikuje.

Abantu bambaye imyenda y'ikigo cya Airtel harimo abazungu ndetse n'abirabura, umuzungu umwe afite indangururamajwi arimo kuganiriza abantu ibijyanye n'ibicuruzwa Airtel itanga, kandi harimo n'abandi bantu bashinzwe umutekano nka polisi aho abantu bahari bose kandi bambaye udupfukamunwa.

Akazu k'umutuku kariho ibirango by'ikigo k'itumanaho kitwa Airtel, aho batanga ibicuruzwa bitandukanye harimo amayinite, kubitsa, kubikura ndetse n'ibindi, hano haba habamo umukozi wabo aho aba abashinzwe gutanga izo serivise zigiye zitandukanye.

Akazu kubatse mu byuma kandi gatoya kariho icyapa kiri amagambo MTN ndetse na Airtel na Tigo. Ibi ni ibigo by'itumanaho aho bitanga bimwe mu bicuruzwa bitandukanye nko kubitsa, guhamagara ndetse no kohereza amafaranga. Harimo umukozi w'ibyo bigo arimo gufasha abakiriya baje bamugana.

Abantu bamwe baricaye barimo gukoma amashyi, umugabo umwe arahagaze afite igikombe cy'ririmo imidari bivuze ko ari igihembo batsindiye, bashobora kuba bagikuye nko mu gukina umupira w'amaguru cyangwa ibindi bikorwa byose bitanga igikombe.

Umugabo afite indangururamajwi, ari imbere y'abantu, arimo gutanga ibiganiro bitandukanye cyangwa se akaba ari nk'inama yahabaye, akenshi ugashobora gusanga ari nk'umuyobozi wa sosiyete runaka cyangwa banki.

Abantu bane bicaye mu biro, buri muntu wese afite imashini arahuze, arimo gusoma cyangwa abandi barimo kwandika ibintu bitandukanye, bameze nk'abantu bari muri banki cyangwa muri koperative.

Abantu batatu, babiri baricaye, undi arahagaze yambaye n'akantu kagaragaza akazi akora, imbere yabo hari amazi umukobwa umwe harimo kureba ibintu arimo kwandika, aha ni ahantu batangira zimwe mu serivisi zitandukanye nko muri banki.

Abantu benshi bari ahantu hamwe harimo abambaye imipira y'ubururu isa. Harimo umudamu ufite indangururamajwi arimo kwereka no kubasobanurira uburyo bakoze bimwe mu bikoresho bibari imbere. Harimo nk'igikapu abadamu bakunda gukoresha bahaha ndetse n'ibindi bintu bagiye bikorera.

Abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo, bambaye neza harimo abambaye amakoti bahagaze mu nyubako nziza akenshi ikorerwamo ibikorwa bya banki, aba ni abakozi ba banki aho baba basoje akazi bakifotoza.

Umusaruro ubitse neza kandi ukaba uri mu mifuka. Imifuka itondetse neza ku murongo mu nyubako yabugenewe ibikamo umusaruro. Ibingibi bikunda gukorwa nk'abantu bishyize hamwe mu matsinda nka koperative.

Umukozi ukora muri banki arimo gufasha umukiriya aho umukiriya ari inyuma y'ikirahure ndetse umukozi wa banki akaba arimo imbere, umukiriya arimo kwandika noneho umukozi wa banki we ari kubara amafaranga.

Imodoka iriho amagambo ngo diri akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, urwego. Bivuze ko ari ikigo k'itumanaho na none kikaba gikora bimwe mu bicuruzwa byo kuri mobayiro mani bijyanye no kohereza amafaranga ava ku muntu umwe ajya ku wundi.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere, ni ahantu heza bubakiye inkoko kugira ngo zibashe gukuriramo kandi zige zibona n'ibyo kurya, zirimo ubworozi bwa kizungu aho umworozi yakoze umushinga wo korora inkoko gusa.

Isoko ryubatse neza kandi isoko ry'ubucuruzi, akenshi riba ririmo abacuruzi bakorera mu matsinda cyangwa koperative mu ndimi z'amahanga, harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'inyanya ndetse n'ibindi. Abantu barimo kugenda bahaha abandi barimo gucuruza.

Ahantu hateguye neza intebe ziteye neza ndetse n'ameza mu buryo bwinshi, bivuze ko ari ahantu batanga serivisi zitandukanye harimo nk'amafunguro, ibyo kunywa ndetse n'amacumbi, aba wabita nk'akabari cyangwa hoteli.

Ahantu hari ubucuruzi bw'inzoga. Aho inzoga zitondetse neza ku murongo, kandi hakaba n'ahantu abantu bagomba kwicara hatandukanye. Akenshi ahangaha haba ari nko mu kabari cyangwa muri hoteli.

Inzu yubatse neza ifite aho yubakishije amabuye. yitwa Tel hayi bare, bivuze ko ari akabari gacuruza inzoga ndetse n'ibyo kurya. Akenshi hajya abantu batandukanye bagiye kwiyakira cyangwa gusabana.

Inzu y'ubucuruzi ariko icuruza ibyo kunywa. Harimo ibinyobwa bitandukanye, harimo amarikeri ndetse n'ibindi. Ibi bikunda gukorwa ahantu muri hoteli ndetse no mu tubari dutandukanye, aho bacuruza inzoga zisindisha ndetse n'izidasindisha.

Inzu y'ubucuruzi icuruza inzoga ibi ngibi byafatwa nk'igikorwa cy'akabari cyangwa hoteri, aho hari inzoga zimanitse mu makarito izindi zikaba zitari mu makarito, izindi nanone zikaba ziri mu makesi, hari n'intebe zegereye aho abakiriya bagomba kuba bari kunywa begereye akabari neza.

Icupa ryanditseho Virunga silver, ni ikinyobwa cyitwa Virunga nyine, akenshi iki kinyobwa gikunda gukoreshwa ahantu mu bubari, aho abakiriya bajyayo bakazinywerayo cyangwa bakaba bafata n'amacupa bakayacyura mu rugo, bakaba ariho banywera.

Inzu irimo ibicuruzwa byifashishwa mu gukora icyayi. Harimo amajyane yitwa Asante ndetse n'ayandi ari mu ishashi ry'umuhondo. Asante yo ari mu ishashi irimo amabara y'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo, indagara, amavuta yo kwisiga, n'ibindi bitandukanye byo kurya. Harimo umudamu wambaye agapfukamunwa urimo kubicuruza.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amavuta y'amoko menshi ndetse n'ibindi bikora ubwiza. Harimo amavuta asanzwe ndetse n'ayo abakobwa bisiga ku minwa kugira ngo ituma ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi irimo igicuruzwa cyitwa agakingirizo, agakingirizo ni kimwe mu bikoreshwa kugira ngo hirinde indwara zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo nka sida, imitezi mburugu n'ibindi, kandi kakaba kifashishwa no kugira ngo umuntu atabyara imbyaro atateguye.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo ingofero, imikasi ndetse n'ibindi, harimo kandi n'umucuruzi wicaye utegereje abakiriya, aha ngaha umucuruzi aba yaranguye ibicuruzwa akabyegereza abakiriya kugira ngo bajye babigura babisanze hafi.

Inzu y'ubucuruzi ariko bwibanze ku magi. Ni amagi atondetse neza kandi akaba ari mu makureti yayo. Ari byo bituma biyarinda kutameneka. Ibi ngibi byitwa amakureti bifasha ubucuruzi bw'amagi kugira ngo bugenda neza, aho amagi abasha kubikika neza.

Inzu y'ubucuruzi irimo umudamu urimo gucuruza harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'inyanya, amavuta, indobo ndetse n'ibindi bintu by'ibirungo byifashishwa mu guteka. Niho umucuruzi abirangura akabyegereza abaturage kugira ngo babigure badakoze urugendo runini.

Inzu y'ubucuruzi irimo n'umudamu urimo gucuruza. Harimo ibicuruzwa bitandukanye, aho uyu mucuruzi ajya kubirangura akabyegereza abaturage kugira babihahe badakoze urugendo runini, bifashe umukiriya ndetse n'umucuruzi yunguke.

Inzu irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo nk'utuyunguruzo dushobora kuyungurura icyayi cyangwa n'ibindi byose bikenerwa kuyungururwa, Saridine akantu karimo inyama z'amafi mayoneze ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane ibijyanye n'isuku, harimo imisatsi abakobwa bakoresha bisuka, amavuta yo kwisiga moviti ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi ariko irimo igicuruzwa kimwe cy'amagi, harimo amagi menshi kandi ari mu gikoresho cyabugenewe ayarinda kumeneka, aho umucuruzi ashobora kuyatwara mu kinyabiziga akayageza aho ayajyanye nta kibazo agize.

Inzu y'ubucuruzimo, mo imbere harimo umucuruzi no gutanga ibicuruzwa kandi iyi nzu y'ubucuruzi irimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kunywa amagi amavuta ndetse n'ibyo kurya kandi imbere y'abantu n'umuzani bakoresha bapima.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo indagara, amavuta, ibibiriribwa nk'umuceri, kawunga ndetse n'ibindi, aho abacuruzi barangurarira ibintu bakabyegereza abaturage cyangwa abaturage nabo bakabasanga mu isoko kugira ngo babibone ku giciro kiringaniye.

Inzu y'ubucuruzi ariko icuruza ibintu bijyanye n'ubudozi cyangwa byadozwe, harimo ibitenge bitandukanye ndetse n'utundi dukoresho twakozwe binyuze mu kutudoda.

Abantu batandukanye harimo abacungagereza ndetse n'abandi. Bahagaze ku murongo aho harimo abanyururu ndetse bakaba baje gusurwa. Abanyururu baba bafungiye muri gereza zitandukanye z'igihugu.

Abantu bicaye mu matente, ari benshi ndetse hakaba n'umudamu uhagaze, ufite indangururamajwi, arimo gutanga imbwirwaruhame. Arimo kubwiriza cyangwa akaari mu kindi gikorwa kijyanye no gusenga.

Abantu batandukanye harimo ababyeyi n'abana, bavuye mu rusengero. Mu rusengero ni hamwe abantu bajya, bakajya kwiheza n'imana, bakayishimira, bakayisaba ndetse bakanayisaba imbabazi z'ibya baba barakoze.

Abantu babiri bambaye ubupfukamunwa, umwe yambaye ikoti, undi yambaye ishati isanzwe, barimo guhana impano bari imbere y'abantu mu rusengero cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi.

Abantu bari mu rusengero. Umudamu ari imbere y'irangururamajwi arimo kuvugisha abakirisitu. Imbere ye kandi hari umugabo wambaye ikote, ufite ikintu kinini kiriho umusaraba baturiramo. Kandi nanone hari abapadiri bicaye ku ruhande.

Urusengero rwubatse neza, rwubatse mu matafari ahiye ndetse rukaba rusakaje amabati y'umutuku, impande yaho hari abantu bahari, baje gusenga kandi rukuze, imbere yaho hari indabyo nyinshi cyane nziza, aha ni hantu abantu bajya kugira ngo babashe gusabana n'Imana, bayisenge ndetse banashime ibyo bagezeho no kuba ibatije ubuzima.

Icyumba kirimo uburiri bushashe neza kandi hariho imisego ibiri. Kuruhande n'aho hari intebe zigiye zitandukanye, izegereye ameza ndetse n'izindi ziri ku ruhande. Ahantu hameze gutya hakunda kuba ari muri hoteli cyangwa ahandi hantu hose batanga amacumbi.

Abantu bambaye impuzankano. Ni abantu umunani, harimo abahungu babiri n'abakobwa batandatu, bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara. Aba bigaragaza ko bakora igikorwa ari kimwe, aho baba bashinzwe nko gutanga serivisi ahantu hatandukanye nko muri hoteli cyangwa ahandi.

Uburiri bufashe neza kandi buriho inzitiramibu, akenshi ibyumba bimeze gutya bikunda kuba biri ahantu bacuruza amacumbi . Aho umuntu aza akararamo hano noneho akishyura amafaranga yamara kurangiza igihe yavuganye n'ababishinzwe gucuruza, akenshi ibi bikunda gukorerwa nko mu mahoteli cyangwa ahandi hantu hatandukanye.

Icyumba kirimo uburiri bushashe neza kandi impande y'igitanda hakaba hari amatara iburyo n'ibumoso. Hari n'uruganiriro impande y'igitanda aho abantu bicara bakaganira. Ibyumba nk'ibi bikunze kuba biri ahantu batanga serivisi z'amacumbi nko muri hoteli cyangwa ahandi hatandukanye.

Abantu bicaye ahantu heza kandi hateguye neza hari ameza ndetse n'ibyokunywa n'ibyo kurya, akenshi ahantu hameze gutya haba ari nko muri hoteli cyangwa mu bubari hatangirwa bimwe mu bicuruzwa bitandukanye, nko gutanga amacumbi inzoga ndetse n'ibiryo.

Ahantu heza kandi hari ikirere cyiza. Hari utuntu abantu baryamaho barimo kuruhuka cyangwa bamaze koga. Imbere yaho kandi hari naho bogera cyane cyane ibikorwa nk'ibi cyangwa inyubako nk'izi zikunda kuboneka ahantu batanga amacumbi nko muri hoteli cyangwa mu bubari butandukanye.

Icyumba kirimo uburiri bushashe neza, buriho n'imisego ndetse n'inzitiramubu, ibyumba nk'ibi bikunze kuba biri ahantu habatanga amacumbi nko muri hoteli ndetse no mu tubari tumwe na tumwe.

Abantu bicaye hamwe barimo kuganira, bari ahantu mu nama bameze nk'abantu bakorera ikigo runaka bakaba bari kuganira ku mikorere yacyo, aha bameze nk'abari muri hoteli cyangwa ahandi hantu hatandukanye hatangira serivise.

Inzu ndende yitaruye igeretse rimwe ifite aho baparikira imodoka hamwe haparitse imodoka ahandi nta modoka zirimo ni inzu nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ishobora kuba ari nka hoteri cyangwa ikorerwamo ibindi bikorwa.

Ahantu heza, hitegeye. Ni inyubako yegereye ahantu hari ikibaya kandi hakurya hakaba hari imisozi. Hari aho abakiriya bogera ndetse n'aho bicara. Izi ni inyubako zimwe zikunda gukorerwamo serivisi z'amahoteli, aho batanga amacumbi ndetse bakagira ibyo kunywa, ibyo kurya n'aho abantu baruhukira barimo koga.

Intebe ziteye neza ndetse n'ameza ariho ururabo, bivuze ko ari ahantu mu ruganiriro abantu bajya bakaganira, aha ngaha hakunze kuba ari ahantu nko muri hoteri cyangwa ahandi hantu batangira amacumbi umuntu ajya akaryama hakaba hari n'umwanya yaganiriramo n'abantu.

Intebe, imisego ndetse n'ameza ariho ururabo ni uruganiriro rwisanzuye kandi rurimo umwanya munini, aha ngaha bikunze kuba ari muri salo mu nzu nziza zagezweho ahantu abantu bakira abashyitsi bakaganira cyangwa muri hoteli.

Ahantu hateguye neza kandi hari intebe n'ameza. Aho ari inzu nini yubatse neza kandi ikeneye abakiriya. Bivuze ko inzu aba ari nka hoteri cyangwa akabari.

Inzu nziza kandi igeretse kabiri ni inzu iri ahantu hitaruye kandi heza inzu zimeze gutya zikunze kuba ari nk'amahoteri cyangwa ayandi mazu atanga amacumbi, inzoga, ibyo kurya, ndetse n'ibindi.

Aba batetsi bo mu gikoni barimo gutunganya ibyo guteka. Imbere yabo bahatetse ibintu ariko umuriro wazamukiyemo, aho akenshi aba batetsi baba bibereye ahantu nko muri hoteli cyangwa ahandi hantu, batanga ibicuruzwa by'ibiryo bitetse.

Inzu nziza yangiritse kabiri, imbere yaho hari ahantu hubatse ikinogo bashyiramo amazi bogera ,akenshi mu ndimi z'amahanga yitwa pisine, ibi bikunze gukorwa ahantu nko muri hoteli batangira serivisi z'amacumbi ndetse n'ibindi.

Ahantu abantu bogera mu ndimi z'amahanga bakunda kuhita piscine kandi imbere yaho hari intebe bicaraho bamaze koga cyangwa bagiye koga. Ibintu byubatse gutya bikunda kuba ahantu batanga amacumbi nko muri hoteli cyangwa mu bubari.

Inzu nziza iri ahantu hitegeye kandi hakaba hari n'indabo, inzu zimeze gutya zikunda kuba ziberamo ubucuruzi butandukanye nk'aho hakorerwamo igikorwa nka hoteli, ububari ndetse n'ibindi. Haba hari amacumbi acumbikira abantu, inzoga ndetse n'ibyokurya.

Icyumba kirimo uburiri bushashe neza ndetse n'imisego ibiri, kikaba gifite n'inzitiramibu. Aha icyumba kimeze gutya bikunda kuboneka ahantu nko muri hoteli cyangwa ahandi ahantu hose batanga amacumbi aho umuntu uharaye ahishyurira.

Abantu batandukanye, barimo kugenda mu muhanda, bamwe bari kugenda n'amaguru, undi afite igare. Bari ahantu mu isoko, harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'iby'imyenda y'imbere ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu bafite ibikapu, bari imbere y'ahantu bacururiza ibicuruzwa by'imyenda, aho hari umucuruzi urimo gucuruza imyenda, abandi bakaba bahagaze impande yaho, barimo kureba imyenda bagura cyangwa bashima.

Isoko ry'imbuto, umudamu afite ibicuruzwa bimuri imbere harimo gucuruza. Harimo imineke. Imineke ni kimwe mu bicuruzwa bibarirwa mu kiciro k'imbuto kandi bikaba byera ku rutoki.

Ibicuruzwa biri ku isoko. Bimwe muri ibyo bicuruzwa, harimo akayunguruzo, ibikoresho byifashishwa mu kurya, icyuma, agasanduku abantu babikamo amafaranga nko kwizigamira ndetse n'ibindi bitandukanye, aho babishyize ahantu hamwe kugira ngo abakiriya babibone.

Ahantu mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo imyenda y'abamama nkamakanzu ndetse n'ibindi. Hakaba harimo kandi n'ibikapu. Aho hantu abacuruzi baba barakoze nk'isoko, bakajya kuhacururiza noneho abakiriya bakahabasanga.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kujya mu isoko abandi bavayo, harimo abikoreye ibicuruzwa birimo nk'ibihingwa, abandi nta kintu bafite bagiye guhaha bisanzwe, ni ahantu habera ubucuruzi.

Isoko ryihariye ririmo ibicuruzwa by'imbuto aho harimo abacuruzi n'abaguzi baje kubigura, ni ahantu haba hihariye haba hari ibicuruzwa bimwe, harimo nk'amacunga, indimu ndetse n'ibindi.

Isoko ry'ubucuruzi, ririmo abacuruzi batandukanye ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye, aho muri ibyo bicuruzwa harimo ababishyize ku kantu kameze nk'ameza bacururizaho, akenshi abanga bafatwa nk'abazunguzayi cyangwa abantu baba badafite iseta bacururizaho.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo imyambaro y'abana ndetse n'iy'abakuru n'udukapu dutoya bashyiramo ibyangombwa cyangwa bakaba banashyiramo ibindi bitandukanye, impande yaho kandi haparitse ikinyabiziga cya moto ndetse n'abantu.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ibicuruzwa biri mu mufuka biri mu bipimo bitandukanye bigendeye ku biciro byabyo, akenshi ibipimwa gutya biba ari umunyu ndetse umufuka umwe ukaba urimo umunyu, uwundi ukaba urimo umuceri, imbere yaho gato hari uducupa duto turimo amavuta yo guteka.

Abantu benshi bari mu isoko harimo abakiriya ndetse n'abacuruzi, harimo abacururiza mu mazu ndetse n'abazunguzayi, harimo nk'umuzunguzayi ufite amasutiya ndetse n'ubundi ufite imyenda y'imbere, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi.

Ku isoko hari abantu benshi baje gucuruza ibintu bitandukanye, hari umwe ufite ibicuruzwa biri mu ibasi, undi yabidandaje ku meza aho muriyo basi harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo nk'amavuta yo kwisiga, urudodo rudoda imyenda, akayunguruzo, umukasi ndetse n'ibindi.

Ahantu hateguye neza, hari ameza ndetse n'intebe mu buryo bwinshi, hari n'abantu bari imbere, abandi barimo kwiyakira. Ni ahantu hatangirwa serivise zitandukanye nk'ibiryo, ibyo kunywa ndetse n'ibindi, wahita nko mu kabari cyangwa muri resitora.

Ahantu hateguye neza. Intebe ndetse n'ameza. Biteguye mu buryo bwinshi. Aho ibi bikorwa nk'ahantu bacuruza ibiryo muri resitora, cyangwa n'ahandi hantu batangira serivise nk'iz'akabari cyangwa ibindi.

Abantu benshi bicaye hamwe, ku meza yabo bafiteho ibyo kunywa bitandukanye, akenshi ahantu nk'aha hakunze kuba hari nko mu kabari cyangwa ahantu bacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu utwaye moto kandi akaba ahetse n'umugenzi, nta kindi kinyabiziga kirimo arimo gutwara moto mu kerekezo kimeze nk'ikimanuka moto atwaye iri mu bwoko bwa TVS.

Umuntu uri muri kaburimbo uri gucunga igare, ahahetse igikapu muri kaburimbo nta binyabiziga bimwegereye birimo, hepfo ye hari umuntu uri kwambuka muri kaburimbo mu nzira yabugenewe kandi hepfo nanone hakaba hari imodoka zirimo kugendamo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga kimwe ari cyo kitwa moto. Ni moto itwaye umugenzi umwe, nta bindi binyabiziga birimo kandi muri kaburimbo harimo imirongo mo hagati itandukanye bivuga ko ikinyabiziga kimwe kiba kemerewe guca ku kindi mu gihe kimwe kiri kugenda gahoro.

Muri kaburimbo harimo umuntu utwaye igare, akaboko kamwe gafashe ku mahembe y'igare akandi ntabwo gafasheho, ari ahantu hameze nk'amanuka kandi ahetse umuzigo ku igare uri mu mufuka, inyuma ye kandi hari undi muntu nawe utwaye igare, nta bindi binyabiziga birimo usibye ayo magare abiri gusa.

Kaburimbo irimo ikinyabiziga cya moto, iyi moto ihetse umuntu umwe, ubwo ni uwuyitwaye n'uwo ihetse, ni abantu babiri kandi nanone kaburimbo barimo, irimo imirongo igiye iciyemo, bisobanuye ko ibinyabiziga biba byemewe gucanaho kandi mu nzira y'abanyamaguru, mu ruhande rw'iburyo, harimo abantu babiri, barimo kugendamo.

Ikinyabiziga cya moto kiri muri kaburimbo, ni umuntu utwaye moto agenda ahantu hameze nk'ahaterera aho ahetse umuntu, nta kindi kinyabiziga kiri muri kaburimbo kandi kaburimbo arimo harimo imirongo itatanye bivuze ko ikinyabiziga cyemerewe guca ku kindi kiri kugenda gake.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga irimo moto eshatu, abantu bazitwaye nta muntu bahetse aho umwe yambaye umupira w'umuhondo, abandi bakaba bambaye indi myenda itandukanye, inyuma yaho kandi harimo imodoka imwe na yo iri muri kaburimbo bose bari kugenda mu kerekezo kimwe.